Abagabo babiri bari kudaha ishingwe, barikwishyira ku mufuka nk'aho bagiye kurijana mu murima.

Umugabo uri gutera umuti mu mashu kugira ngo amashu azakure neza adahuye n'indwara, hanyuma azabone amafaranga mu gihe kizaza.

Umuntu wambaye bote n'ikabutura, uhetse ipombo, ari gutera umuti amashu. Gutera umuti ni byiza kugira ngo amashu azakure ameze neza, kandi atazagwingira.

Imashini yifashishwa cyane cyane mu gihe cy'izuba, iri kuvomerera imyaka kugira ngo idakubitwa n'izuba hanyuma ikuma.

Umufuka w'imvaruganda wa ire. Ire ni mvaruganda ishyirwa ku myaka iyo wayihinze.

Amafi ari mu isorori, ahiye. Amafi barayakunda cyane, banyarwanda ndetse n'abandi . Aya mafi bashyizemo ibirungo bitandukanye. Ibirungo na byo bituma amafi ahinduka cyangwa se ibindi ibiryo.

Amafi arambitse ahantu, hameze nk'aho ari hasi, asa n'ataranyuzwa mu mavuta amafi akiri mabisi.

Amafi atatu amanitse ubona ko bari kuyagurisha basa naho bayatanditse. Amafi ni meza mu ubuzima bw'umuntu kuko agira vitamini nyinshi.

Ifi bari guteka. Amafi nayo ashobora kubyara amafaranga ukiteza imbere ubinyujije mu bworozi bw'amafi, cyangwa se uburobyi bw'amafi.

Ubwoko bw'ibiryo, uri kubona ko biteye apeti cyane, kuko wagira ngo n'amafi, ariko na none ukabona atariyo. Ukabona harimo ibitunguru n'amakaroni.

Amafi ni ibiryo byiza bikunzwe n'abantu batari bake cyane, kuko amafi abamo intunga mubiri nyinshi cyane.

Inyama z'amafi, babaze bazirambika ku meza, kurya inyama z'amafi ni byiza, byongera vitamini mu mubiri,..

Amafi menshi ari ahantu arambitse, mbese wagira ngo niho avuye mu mazi bayarobye kuko ntaranyuzwa mu mavuta.

Uburobyi bw'amafi umugore wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro, hirya yaho hari abari kumufasha n'abari gushungera ,ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane, butanga amafaranga.

Abagabo babiri bari mu bwa ubwato. Ubwato burakoreshwa cyane iyo bari gukora uburobyi cyangwa se bari kwambutsa imizigo cyangwa abantu.

Ikiyaga, ikiyaga kibamo imiririmo itandukanye harimo uburobyi ndetse no kwambutsa abantu ukoresheje ubwato, ikiyaga gifitiye igihugu akamaro.

Ibyuzi bororeramo amafi ,ibi byuzi biri ahantu ho mu kibaya ,ruguru yaho hariho imisozi irimo amatarasi. Ubworozi bw'amafi bwiza cyane injiza amafaranga.

Amafi atatu arambitse hasi, bayashyizeho hejuru barafu, kugira ngo abashe kuba yagira ubushobozi bw'igihe kirekire.

Ubworozi bw'amafi cyangwa se uburobyi ni ibintu byateza imbere. Kubikora bituma umuntu agira ejo hazaza heza.

Ibirayi bitari byera bigihinze bategereje ngo bazajye kubisarura, kugira ngo babone ibirayi n'amafaranga.

Igiti cyo mu bwoko bw'intusi, ziba mu gitari, aho zikoreshwa ibintu bitandukanye byinshi.

Ibirayi ni igihingwa kiza gikundwa n'abantu benshi kandi gikunzwe cyane gifite n'amafaranga. Ibirayi abantu benshi barabikunda cyane, kubera uburyohe bwabyo kandi bikajyana n'amafaranga. Bitumaga abahinzi babyo bivana mu bukene.

Abantu bavuye kuragira uri kubonako bari gushorera inka, kandi biragaragarako ari abashumba, kuko bafite n'inkoni k'urutugu.

Urutoki ni igihingwa cyiza cyane, kivamo inzoga, cyangwa se ukakivanamo imineke, cyangwa bakakigurisha kimeze uko kiri, kugira ngo umuntu abone amafaranga.

Ibigorigori byavuyemo ibigori, byegetse ku giti bategereje ngo bazakoremo ibishingirizo.

Insina iteye mu mitabo hagati, hirya yaho hari ibigori. Ibigori ni byiza, kandi bigirira n'akamaro abantu benshi cyane.

Urwuri ruteyemo ubwatsi bw'inka bwitwa kameroni, ubwatsi bwa kameroni ni bwiza ku matungo kuko ituma amatungo akura neza. Kameroni ntabwo ari inka izirya gusa n'andi matungo magufi yazirya.

Umurima uhinzemo imitavu. Umurima ni mwiza kuko tuwuteramo imyaka hanyuma tukazayirya mu gihe kizaza, kandi umurima utuma umuntu ava mu bukene.

Umurima utemo igihingwa cyitwa karoti. Karoti ziba nziza cyane iyo uzitetse mu biryo kuko bihita bihindura uburyohe.

Ahantu havuye ibigori babisaruye, kuko harimo ibigorigori cyangwa se ibiti by'ibigori ariko byumye.

Avoka zikiri mu giti ,zitarera ,uri kubona ko zigikura kubera uruhu rwazo, zifite ,rugitoshye.

Uruvunge rw'abantu benshi，aba bantu basa nk'aho bari ku muganda， hari umuntu uri kubereka uburyo bazakoramo bari gutera imyaka. Hari n'undi uri kubaganiriza， uburyo babikoramo.

Abagabo babiri bari kureba uko ibishimbo bimeze; umugabo umwe yambaye ingofero n'ikoti n'agapira k'umweru n'umukara, n'undi yambaye ishati y'ubururu.

Abagabo babiri bari gupakira ibitoki mu modoka, hirya yabo hariho umugore wambaye umupira usa n'umutuku, n'umukara, n'agatambaro mu mutwe, hirya yabo naho hariho inzu ifite amabati asa n'umutuku.

Ibihaza biri hasi harimo ubwoko bwinshi bw'ibihaza, harimo ibisa nk'amaronji n'ibindi bisa n'icyatsi. Ibihaza biba byiza cyane.

Abagabo batatu ,bari kuvomerera imbuto zitwa amashu. Amashu ni meza cyane, kuko atekwa mu biryo, ndetse akaba yagemurwa mu masoko menshi.

Ihene. Ihene ni itungo ryiza rigufi rigira amafaranga, kandi kuryorora ntabwo biba bigoranye. Ihene ni nziza cyane abantu barayikunda.

Amatekateke. Amatekateke ava ku mateke. Amatekateke avamo ubwatsi bwo guha ingurube. Kugirango ingurube zikure neza.

Imyumbati. Imyumbati ni ibiribwa biryoha cyane, kandi n'abantu bakaba babikunda cyane. Imyumbati igira n'amafaranga, iyo wayihinze ukayijyana ku isoko.

Umugabo uri gukorera ibigori, uri gukuramo nkongwa, yambaye ingofero y'umukara, n'umupira w'amaboko maremare.

Imineke na avoka birambitse ku nkoko, voka abantu barayikunda cyane ni urubuto rukundwa mu rwanda, imineke nazo zikundwa mu Rwanda kuko nazo zirinda indwara, hari ubwoko bwinshi bw'imineke bitewe n'ibitoki babitazemo, hari fiya, hari imbogoya, hari n'izindi nyinshi.

Igihingwa cyitwa ishu. Ishu ni igihingwa gikunzwe cyane kubera ko gishyirwa mu biryo kugira ngo bibashe kuryoha neza.

Abantu benshi, barimo abagabo bari gutera ibirayi mu mitabo, ibirayi ni byiza cyane, kuko bikungahaye ku isoko, ubwoko bw'ibirayi byinshi hari Peko, hari Kuruseke, hari Kinigi, n'ibindi byinshi.

Ubuso bunini bw'ibigori byinshi bahingiye ahantu hamwe, bikaba byenda kwera. Uri kubona ko biri gukura neza.

Voka igaragaza ukuntu iteye mu nda bayikase bagaragaje iki buto, bagaragaza mbese umubyimba ifite. Avoka ni nziza cyane kuko abantu barazikunda cyane.

Umuhinzi ufite isuka ku rutugu, ari kuvugura kuri telefone, ari mu murima w'ibigori, ibigori ni byiza cyane kuko bizamura ubukungu bw'abantu, kugira ngo biteze imbere.

Umugore ufite telefoni, ndetse n'itara, biragaragara ko aribwo bwa mbere yabibona, kuko ameze nk'ikinyugunyugu kibonye itara.

Abantu bahinze icyayi harimo umugabo urimo kugikorera, kugira ngo mu minsi iri imbere azabashe kwiteza imbere.

Umugore uri ahantu uri gushyiramo ibiti bikiri bitoya, kugira ngo bizagere igihe byarakuze bimeze neza, bakabitera.

Umugore n'umugabo bigaragara ko bishimye, bari gusarura imbuto zitwa wotameroni. Wotameroni ni nziza cyane kuko zongera amaraso mu mubiri.

Ipapayi. Ipapayi ni urubuto rwiza cyane rukungahaye ku isi hose, ipapayi abantu bayikundira ko habamo vitamine, ndetse n'intungamubiri nyinshi kuko bavuga ko irinda n'indwara.

Ubusitani bwindabyo indabyo zegereye ahantu hasa nkaho ari kumuhanda, hariho amapave , y'umweru n'umukara izo ndabyo zisa nk'icyatsi.

Ibinyomoro. Ibinyomoro ni imbuto nziza cyane zikundwa na benshi, kubera ko zongera amaraso mu mubiri, kandi zikaba zinagira amafaranga ku bantu babihinga.

Voka nyinshi bakusanyirije hamwe, ariko zigiye ziri mu matsinda. Voka ni nziza cyane ku buzima bw'umuntu ,kuko bituma ubuzima bugenda neza ,voka kandi ni nziza ku bantu baba baraziteye, kuko zibinjiriza amafaranga.

Ibihaza, hariho umugabo wambaye ishati y'umutuku, ibihaza nabyo bibyara amafaranga kuburyo wabigurisha akavamo ukiteza imbere, ukazabaho neza mu gihe kizaza.

Ubwanikiro bw'ibigori . Ibigori ni byiza cyane kuko bivamo igikoma ndetse na kawunga. Ibigori banabiteka babitogosheje kuba umuntu yabirya bikiri uko bimeze.

Umwarimu, abahinzi bari guhinga, guhinga ni byiza, byatuma umuntu yiteza imbere, kuko ibyo avanamo yabijyanana ku isoko.

Inyanya, inyanya eshanu harimo ebyiri zitukuye n'izindi zitaratukura. Inyanya ni nziza cyane kuko zikoreshwa bari guteka ibiryo kugira ngo bihindure ibara.

Umusisiro w'umuhanda wanize hariho agatebo kariho imineke n'inyanya, baba babashije kwiteza imbere banyujije mu bintu byo gutandika ku muhanda.

Ibigori byinshi bitondetse ahantu bisa nkaho bagiye kubipakira, ibigori biraryoha, ibigori biba byiza iyo wabibeteshejemo ifu.

Voka voka ni igihingwa gikungahawe cyane, gihingwa abantu benshi kandi kuko gitanga amafaranga, usanga hirya no hino bari gukunda voka, no mu masoko atandukanye.

Umugore uri kuvomerera umurima kugira ngo azatere hamaze kumera neza. Kuvomerera umurima bituma umurima woroha, kugira ngo uzabone uko utera, kandi n'imbuto wateye zikure neza zidatangiwe.

Imyumbati ihinze ku murima munini, imyumbati iraryoha cyane, kuko havamo n'ubugari bwatunga umuntu.

Urukwavu ruri mu kibuti . Ruri kumwe n'ubwana bwarwo. Urukwavu ni rwiza rugira umusaruro.

Umwumbati, umwumbati ni igihingwa cyiza gikungahawe n'abantu benshi cyane, aho usanga abantu ku isoko barikujya barazirwanira kubera uburyohe zifite.

Imbuto zirimo ibinyomoro, amaronji, imyembe ndetse na wotameloni. Imbuto ni nziza cyane kubantu bose kuko nk'ibinyomoro byongera amaraso ndetse na wotameloni.

Ibitunguru, ibitunguru ni imbuto nziza ikundwa n'abantu benshi, kuko yifashishwa bari guteka ibiryo, bigatuma biryoha uko babyifuza.

Abagore benshi bari kwaha icyayi, icyayi ni cyiza cyane, kuko no hanze y'u Rwanda baragikunda cyane ,kuko kivamo icyayi cyiza.

Itunda. Itunda ni urubuto rwiza cyane kuko abana barikunda cyane ndetse n'abantu bakuru kubera uburyohe bwaryo.

Abagore bari gukura ibirayi, ibirayi ni byiza cyane abantu barabikunda. Ubwoko bw'ibirayi harimo peku, kuruseke n'ibindi byinshi. Ibirayi ni byiza kandi byatuma umuntu ava mu bukene.

Isoko ry'ibiribwa byinshi, harimo inanasi, imyembe, indimu n'ibindi byinshi, ubu bucuruzi buri gukorwa n'abagore abenshi nibo biganjemo.

Umugabo uri mu bihingwa bwitwa imyumbati, urikubona ko arikuzikorera wagirango ngo ashaka kuzisasira, cyangwa gukuraho ibyatsi bizegereye.

Igihaza umuntu ashobora kukijyana ku isoko kugira ngo abone amafaranga, noneho yiteze imbere.

Umugore wicaye ucuruza imyembe, imyembe iba mwiza cyane iyo uri kuyirya kuko yongera vitamini mu mubiri.

Umugore uri guhinga ubwoko bw'imitabo, asa nk'aho bazahingamo ibihingwa bitandukanye. Guhinga ni byiza, biteza imbere umuntu akava mu bukene.

Umukobwa ufite imboga ebyiri zizwi nk'amashu, rwose uri kubona ko yishimiye umusaruro ari gukuramo.

Amapera aba meza cyane, kuko yongera intungamubiri mu mubiri, kandi no ku bayahinga bakuramo amafaranga iyo bayajyanye ku isoko.

Amateke. Amateke ni igihingwa cyiza, kiryoha, gikunzwe n'abatari bake, kuko n'ababihinga bibaha amafaranga.

Amapera ni imbuto ikungahaye cyane ku bantu bose. Amapera ku bantu bayahinze babona amafaranga, ndetse n'abantu bakayagura cyane kubera ko abamo intungamubiri.

Uruganda rutunganya porodagiti zituruka muri voka, voka ivamo ibintu byinshi, kuko ari nako havamo amavuta yo kwisiga.

Abagore babiri bavuye guhinga ,uyu mugore umwe afite agakapu mu ntoki ,bose bafite n'amasuka ku rutugu ,uyu mugore umwe na we ahetse umwana .Umwuga w'ubuhinzi ni mwiza cyane utunze abantu benshi.

Umugabo wambaye isarubeti y'umukara wambaye na na rinete, afite ipombo ari gutera ibigori umuti kugirango udukoko turimo dupfe, ibigori bibashe kuba byakura. neza

Ihunikiro ry'ibigori byinshi, ibigori ni byiza cyane kuko bitanga amafaranga ndetse abantu bakaba bakaba banabikunda.

Soya ziteye mu murima, soya ni igihingwa gikoreshwa cyane nk'iyo bari guteka tofo. Tofo zituma umuntu amera neza, n'iyo yari ashonje arazanzamuka.

Ubunyobwa : Ubunyobwa ni imbuto ikungahaye cyane, ikundwa n'abantu benshi b'ingeri zose. Ubunyobwa bwifashishwa bari gukora n'ibindi bintu, nk'iyo bari gukora amavuta bifashisha ubunyobwa.

Ubwoko bw'imbuto bwitwa ibishyimbo, ibishyimbo ni byiza cyane kuko byongera amaraso mu mubiri. Ibishyimbo abantu barabikunda cyane, kuko nta munyarwanda ukunda guteka ibiryo bitariho ibishyimbo.

Ubunyobwa, ubunyobwa ni igihingwa cyiza kikaba n'impeke cyangwa se imbuto ikunzwe n'abantu benshi cyane. Ubunyebwa ni bwiza cyane kuko burakundwa.

Umurima uhinzemo amajeri, amajeri araryoha iyo wayatetse kimwe n'ibindi biryo cyangwa ukayajyana ku isoko.

Ibishyimbo biri mu murima bitarera, urikubona ko bategereje ngo byere bakabisarura kuko ibishyimbo bibamo ibintu byinshi.

Inzuzi zikoreshwa iyo bagiye kuzitera . Inzuzi ni nziza cyane kuko iyo ugiye kuzitera hamera igihaza, hanyuma nyuma y'iminsi mikeya bikaba byaje, ukaba utangiye kujyana ku isoko.

Imbuto y'ibishyimbo itondetse ahantu hari byinshi n'abantu benshi, bisa nkaho ari ku isoko baje kubigurisha. Ibishyimbo ni byiza cyane bitanga amafaranga.

Ibishyimbo, ibishyimbo ni imbuto nziza cyane bihingwa n'abantu benshi kandi igaterwa nabantu benshi kuko bigira intungamubiri ndetse bikaba byera vuba.

Amasaka ni imbuto abantu bakunze cyane, kuko ikoreshwa mu kwenga inzoga, cyangwa mu gutara ubushera , kuko nabyo bibyara amafaranga.

Ikigori, ikigori ni cyiza cyane, kuko kibamo intungamubiri nyinshi. Ikigori wakibeteshamo kawunga, wanakibeteshamo ifu y'igikoma.

Ubwoko bw'ibishyimbo abantu bakunze kwita ibishimbo bya gisirikari, kubera ko bifite amabara agiye gusa na ya gisirikari.

Ibishyimbo biri mu mifuka myinshi, uri kubona ko babishyizemo, bari kubirenga kugira ngo bazashobore kubitandukanya.

Abakobwa babiri bari kugosora ibishyimbo, ibishyimbo ni byiza cyane kuko abantu barabikunda byongera intungamubiri mu mubiri, kandi n'abakobwa kwiga kugosora ni byiza cyane kuko bifasha kubaka urugo.

Ibigori. Ibigori ni byiza cyane, kuko abantu barabikunda cyane, kuko bitanga amafaranga ndetse bikaba bivamo n'ibiryo. Ibiigori ni byiza cyane.

Kugira ngo uzabone imyaka yindi uzahinga, ugomba kujya uragosora kugira ngo utandukanye imbuto n'izitari imbuto, kugira ngo ejo uzabone ibyogutera.

Igihingwa cyitwa soya cyifashishwa bari guteka bufe.

Igishyimbo iyo wagishyize mu butaka, kibanza gutumba, hanyuma kikagenda kizana imizi, kiri no kuzamuka, hagera igihe kikazana amababi, kigakura mbese kimeze neza.

Igikorwa cyo kwanika ibigori, iyo ibigori byeze barabitonora bakabijyana mu buhunikiro, kugira ngo mu gihe kizaza bazabone ibyo barya, ndetse n'ibyo bakoresha.

Inzuzi zikoreshwa iyo bari kuzitera kugira ngo hazaze ibihaza, cyangwa se bakanazikaranga kugira ngo bazirye.

Amasaka n'igihingwa gikundwa n'abantu benshi cyane, cyane cyane iyo abantu bagiye kwenga inzoga cyangwa se bagiye gutara ubushera, amasaka nayo azamura ubukungu.

Umuganga w'amatungo aho ari kuvura imbwa, urabona ko babiri, umugore n'umugabo aribo bagiye kuyivura, hariho n'undi mugabo uyifashe.

Amatungo magufi harimo ihene n'intama, ndetse hahagaze abagabo batatu bigaragara ko bari kuharagira amatungo magufi ni meza cyane kuko yatuma umuntu yiteza imbere.

Kugira ngo inkoko ikure neza nta kibazo ifite, umworozi w'amatungo agomba kwakura veterineri w'amatungo kugira ngo ajye arayitaho.

Muganga w'amatungo ari gukingira inka, na ny'irinka cyangwa se umuntu uri kumufasha nawe arahari, yambaye imyenda ya kaki.

Ku bijyanye n'ibintu by'amatungo, kohereza abaganga b'amatungo kugira ngo bayakingire atandura indwara, kugira ngo umuntu azabone umusaruro mwiza.

Amahene abiri matoya atarakura yasa nk'ayacyonga yari kurisha. Ntago yaziritse.

Inkoko enye ziri kurya ibiryo mu kidomoro, imwe ihagazemo izindi ziri kurira hanze. inkoko ni nziza cyane zitanga amagi, hanyuma abantu bakiteza imbere.

Ingurube yaje gusurwa n'umuveterineri aje kureba uburyo imeze. Ingurube ni nziza zituma abantu bagira amafaranga menshi.

Umugabo uri gufungirana inka mu kiraro, iyo nka ikaba iri mu bwoko bw'inyambo, inka zikunzwe cyane mu Rwanda.

Abantu benshi b'abagabo bari guhingisha inka, inka nyinshi zifite amahembe, harimo uwambaye igisarubeti cy'ubururu, n'uwambaye icy'umweru, bari kuzikurura hariho n'abandi bari kubashungera.

Ingurube nini cyane, ifite amabara umweru n'umukara, ifite n'ibyana byazo birikumwe mu kiraro, hari umuntu uri gushaka kujya arayishishira.

Umugabo ufite inkoko. Inkoko ni nziza zitera amagi kandi hari n'izitanga inyama, kandi zigatanga amafaranga ku bantu bazoroye.

Ubworozi bw'amatungo, umuntu agomba kujya yakura umuvuzi w'amatungo, kugira ngo ajye ayitaho kugira ngo atarwara indwara zitandukanye, ku buryo yakura nabi agakura neza ahubwo akaziteza imbere.

Inka zitwa inyambo. Uri kubona ko zimeze neza cyane, kandi inka z'inyambo zigira umukamo uhagije cyane.

Inka y'umweru n'umukara, uri kubona ko iri mu rwuri, harimo munsi n'umugabo uri kuyikamira mu rwuri ashaka amata, amata ni meza cyane.

Ibyana by'ingurube bine biryamye mu kiraro bisa nk'aho byegeranye, ingurube ni nziza, hari abantu benshi zigirira akamaro.

Urukwavu ruri kumwe n'abana barwo. Ubworozi bw'inkwavu ni bwiza cyane, kuko bufasha abantu kwiteza imbere bakava mu bukene, inkwavu ni nziza.

Umugabo ufashe inka bari kuyitera urushinge. Gutera inka inshinge bigira akamaro kenshi ku nka, kuko ziyirinda indwara. Kandi inka zikaba zitanga umukamo n'amafaranga.

Agacurama, agacurama ni inyoni ikunda kugenda nijoro, igendera kuri nyiramubande kandi ikagenda inacuramye.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'ingagi. Iyi ngagi uri kubona ko nyina iyihetse. Ingagi ni nziza ku gihugu cy'u Rwanda kubera ko cyinjiza amadovize.

Umwana w'ingagi usa nkaho ari gutembera mushyamba, ingagi ni nziza kuko zinjiza amadovize.

Inyamaswa yitwa impyisi, iri kurya indi nyamaswa yitwa Isha, biri mu ishyamba kuko byose nimwo biba.

Inyamaswa yitwa impyisi. Inyamaswa y'ishyamba y'inkazi. Izindi nyamaswa nazo zirayitinya cyane kubera ubugome bwayo ndetse n'ukuntu itinyitse.

Imbogo, imbogo n'inyamaswa imeze nk'inka, ariko yo ikaba igira amavubi aba yararitse mu gutwi , yo kandi ikagira n'amahembe yigonze.

Akanyamaswa kitwa akanyamasyo, akanyamasyo ni akanyamaswa kagenda gake gake ku buryo katagera aho kagiye vuba, kaba gafite ikintu cy'igitare hejuru kimeze nk'ikibuye gikomeye cyane.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'igikeri, igikeri n'inyamaswa iba mu mazi kuko aribwo buzima bwayo kuko amazi niyo ayitunze.

Inuma. Inuma ni inyoni nziza abantu bakunda cyane, kuko itagira agasuzuguro cyangwa ngo igire ubundi bukunguzi. Inuma ni nziza cyane, abantu barayikunda.

Inyamaswa isa neza ,imeze nk'ingurube ariko yo urabona ko ari ingurube yo mu ishyamba, biragaragara ko yo itaba mu rugo.